kuri ubungubu uburezi bw'u Rwanda buri gutanga ubumenyi ku bintu byinshi bitandukanye harimo: amazi, amashanyaraz,i ubwubatsi n'ibindi byinshi bitandukanye.

Abagabo batatu, harimo umwe wambaye umwenda w'akazi, bisa nkaho ari umwarimu, hakaba hari abandi babiri bisa nkaho ari abandi bantu nk'ababyeyi, abayobozi cyangwa se abandi bantu berekeye n'ubuyobozi.

Buri murezi wese wo mu Rwanda aba afite inshingano ndetse n'indangagaciro zigomba kumuranga igihe ari kwigisha. Nko kumenya no gusobanura imyigire n'imyigishirize, ibyo ni kimwe mu biranga umwarimu uwo ari we wese.

Ikigo cya Leta cyangwa se cyikorera gishinzwe gusuzuma ibinyabiziga niba bikora neza, bityo bikagabanya umubare w'impanuka ziterwa no kuba ibinyabiziga byarapfuye, cyangwa se byararangije ubuziranenge.

Mu bigo by'amashuri, ntabwo biga bandika gusa, ahubwo habaho n'uburyo bwo gukora ibintu bifatika, aho bazabikoresha ku isoko ry'umurimo.

Ikoraniro ry'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye ndetse n' abanza, aho bakoraniye ahantu hamwe barimo kumva amategeko n'amabwiriza bagenderaho, bayabwirwa n'umuyobozi w'ishuri kugira ngo bige neza kandi bazatsinde.

Mu mashuri yisumbuye hari ibigo byinshi byigisha umuziki, aho abana bajyanwa kwigishwa gucuranga injyana nyinshi zitandukanye, kuririmba ndetse no kuyobora abanyamuzika.

Umunyeshuri bigaragara ko arimo gukora imirimo y'amaboko kandi akaba ari gukoresha bimwe mu bikoresho by'ikoranabuhanga, by'amashanyarazi ndetse n'iby'amazi.

Abanyeshuri biga imyuga n'ubumenyingiro muri kaminuza, nibo barimo gukora imirimo y'amaboko, aho bishoboka ko biga ibintu bijyanye n'ubwubatsi, aho bari gupima ubutaka.

Kwiga gutegura ibiribwa ndetse no kubiteka ni kimwe mu bintu byiza byo kwihugura ndetse no kwiga kuko usanga mu Rwanda ari cyo kintu gitegerejwe cyane ku isoko ry'umurimo, aho ababyiga bagomba kwigana imbaraga kuko ari bo bakenewe kuri iryo soko ry'umurimo.

Ikoraniro ry'abanyeshuri benshi aho bambaye imyambaro y'akazi , aho barimo gukora imirimo y'amaboko kandi bigaragarako bari gukanika ikinyabiziga.

Ba rwiyemezamirimo baha akazi, abazi gutunganya amafunguro, aho bayategurana ubuhanga buhanitse, bagatuma abakiriya babikunda, bityo bakabona amafaranga.

Ubutetsi cyangwa se guteka ni kimwe mu bintu byigwa cyane mu bigo by'amashuri yisumbuye, aho biga guteka amafunguro menshi atandukanye, aho bakenewe cyane ku isoko ry'umurimo.